Abantu babiri umugabo n'umwana, bari kwereka ibishushanyo iriho imbuto zitandukanye, inanasi, ubunyobwa, pome, imineke.

Igipangu cyubakisheje amatafari ahiye, hejuru hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza yandikishije mu ibara ry'ubururu, ku gipangu kirafunguye hari ikirere gisa neza.

Abana babiri bicaye ku ntebe zibanjwe mu mbaho, bambaye amashati y'ubururu bafite amakora y'icyatsi, bafite ibitabo bari gusigamo amabara, n'uduti bakoresha bifashisha mukuyasiga.

Abana batanu bose bapfukamye hasi bari kwandika ku kibaho cy'umukara giciye bugufi kandi hejuru hari amarido ari mu ibara ry'umuhondo, abana bamwe bambaye amakanzu y'ubururu ari babiri amashati y'umuhondo n'umupira w'umweru.

Imbaga y'abanyeshuri iteraniye hamwe bose bari kumurongo. Bambaye impuzankano zisa ziri mu ibara ry'umweru: ishati, ijipo cyangwa ikabutura bisa ubururu. Inyuma yabo hari amashuri yubakishije amatafari ahiye nayo ari nk'ayo mabara, bose bahagaze hanze bareba imbere.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, umupira w'umuhondo n'amapantaro ya kaki, bari ku murongo umwe ari benshi, inyuma yabo hari ibiti.

Urugo turabatijeje amatafa arahiye, rukikijwe n'ibiti, mo imbere harimo ibyicungo biri mu mabara umutuku, ubururu, n'umuhondo, ibyatsi bitaramera, hirya gato hari ipironi iriho insinga z'amashanyarazi.